Uyu munara nuw'imwe muri sosiyete z'itumanaho, ufasha abayikoresha kuba bakumvikana igihe bahamagarana, ndetse n'ikoranabuhanga rikihuta bari kurikoresha.

Uyu ni umunara w'umwe muri sosiyete z'itumanaho aho ufasha abayikoresha kuba bakumvikana igihe bahamagarana ndetse n'ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta.

Hano ni mu mujyi wa Kigali ahahariwe abaturage, bakaba barahashyize intebe zifasha benshi mu gihe bakeneye kuruhuka kuganira cyangwa se gukora ibindi bintu birimo n'imyidagaduro, cyane ko baba bumva batekanye bitewe n'uko nta binyabiziga bihaca.

Hano turahabona umunara w'umwe muri sosiyete z'itumanaho aho ufasha abaturage bayikoresha kuba bakumvikana mu gihe bahamagarana cyangwa se bakoresha ikoranabuhanga rikihuta.

Uyu munara ni uw'imwe muri sosiyete z'itumanaho aho ufasha abakoresha bo bakumvikana mu gihe bavugana ndetse n'ikoranabuhanga rikarushaho kwihuta bikaborohereza mu kazi kabo ka buri munsi.

Uyu munara ni uw'imwe muri sosiyete y'itumanaho, aho ufasha abayikoresha kuba bakumvikana mu gihe bahamagarana cyangwa bakoresha ikoranabuhanga, ndetse no mu gihe baba bavugana n'abari hanze y'igihugu bikaborohera.

Uyu ni umunara w'imwe muri sosiyete y'itumanaho, aho ufasha abayikoresha kuba bakumvikana mu gihe bahamagara cyangwa se bifashisha ikoranabuhanga, bikarushaho kwihuta.

Uyu ni umunara w'imwe muri sosiyete z'itumanaho aho ufasha abakoresha ibikorwa byayo kuba bakumvikana mu gihe bahamagarana ikoranabuhanga rikihuta n'ibindi.

Uyu ni umunara wa sosiyete y'itumanaho ya MTN nk'uko tubibona ku cyapa kiri hano ku ruhande, ukaba ufasha abakoresha ibikorwa byawo mu gihe bari guhamagarana cyangwa se baba bavugana n'abari hanze y'igihugu bigakunda.

Hano turahabona umunara wa sosiyete y'itumanaho ya Emutiyeni nk'uko turi kubibona ku cyapa kiri iruhande rwawo, ukaba ufasha abaturage kuba bakumvikana mu gihe bakoresha ikoranabuhanga bahamagarana ndetse no kuba bavugana n'abari hanze y'igihugu mu buryo buboroheye.

Uyu ni umunara w'imwe muri sosiyete z'itumanaho, aho ufasha abayikoresha kuba bahamagarana bakumvikana, bagakoresha ikoranabuhanga rikihuta ndetse bakaba banaganira n'abari hanze y'igihugu, mu buryo bwumvikana.

Uyu ni umunara w'imwe muri sosiyete z'itumanaho aho ufasha abarikoresha kuba bakumvikana mu gihe bahamagarana, cyangwa se bari gukoresha ikoranabuhanga rikihuta.

Hano turahabona amatara yo ku muhanda akaba ari agaragaza iterambere ry'igihugu cyane ko afasha abakora ingendo za nijoro ndetse hano turahabona abakora inzu z'ubucuruzi kuba bakorera ahantu habona kandi bakaba bizeye umutekano.

Izi nsinga nyinshi tubona hano ni iz'umuriro w'amashanyarazi, zikaba ziwujyana mu byerekezo bitandukanye mu ngo z'abaturage nk'uko bigaragara hano bikaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu kandi bigafasha abagituye mu mirimo yabo ya buri munsi.

Izi nsinga nyinshi tubona hano ni iz'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage ndetse no mu yandi mazu akorerwamo imirimo yindi, ikaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu kandi n'abagituye bagakora imirimo yabo bumva bafite umutekano bitewe n'uko haba habona.

Hano turahabona itara ryo ku muhanda akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu cyane ko abakora ingendo no mu masaha ya nijoro baba bizeye umutekano bitewe n'uko haba habona.

Hano turahabona insinga nyinshi z'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage n'amazu y'ubucuruzi nk'uko turi kubibona ,bikaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu, kandi bigafasha abakora akazi ka buri munsi kugakora neza habona.

Izi nsinga z'umuriro w'amashanyarazi turi kubona hano ni iziwujyana mu ngo zitandukanye nkuko bigaragara. Akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu, cyane ko ahantu henshi mu masaha ya nijoro haba haka Ukanafasha mu umutekano.

Izi nsinga nyinshi tubona hano ni izijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo zitandukanye nk'uko biri kugaragara ndetse no mu yandi mazu akorerwamo nk'ubucuruzi n'ibindi. Akaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza ko igihugu giteye imbere.

Aka kazu tubona hano ni kamwe mu dukorerwamo ibikorwa bitandukanye bya sosiyete y'itumanaho ya emutiyene, nko kubitsa amafaranga y'abaturage kuyabikuza ku bakeneye kuyohereza, no kugura amayinite yo guhamagara.

Uriya muntu tubona utwaye ikinyabiziga cya moto inyuma ye turahabona igisanduku kigemurwamo ibyo kurya biba byatumijwe n'abantu bakoresheje ikoranabuhanga, bukaba ari uburyo bworohereza benshi mu gihe badafite umwanya cyangwa se bari mu bindi kuba bashobora kubona ibyo bakeneye bitabaye ngombwa ko bava mu ngo.

Hano turahabona imigozi myinshi y'umuriro w'amashanyarazi, aho uwujyana mu ingo zitandukanye z'abaturage, ndetse no mu yandi mazu akorerwamo ibindi bikorwa, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu ndetse n'abagituye bakaba bizeye umutekano bitewe n'uko, mu masaha ya n'ijoro haba habona.

Izi nsinga nyinshi tubona hano ni iz'umuriro w'amashanyarazi, aho ziwujyana mu ngo zitandukanye nk'uko bigaragara cyangwa se n'andi mazu akorerwamo indi mirimo nkiy'ubucuruzi, akaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu.

Iyi mitaka tubona hano ni ikoreramo abakozi ba sosiyete y'itumanaho ya MTN, kuko turi kubibona no ku byapa, ikaba ari uburyo yegereza abaturage ibikorwa byayo ku buryo baba bashobora kubitsa amafaranga, kuyabikuza ndetse n'ibindi.

Izi nsinga nyinshi turi kubona hano ,N'iz'umuriro w'amashanyarazi ,aho ziwujyana mu ngo z'abaturage zitandukanye ndetse no mu yandi mazu akorerwamo ibindi bikorwa .akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu ndetse bigafasha no mu mutekano kubera ko mu masaha ya nijoro ahantu haba habona.

Uyu numunara wimwe muri sosiyete zitumanaho, aho ufasha abaturage kuba bakumvikana mugihe bahamagarana ndetse no mugihe bakoresha ikoranabuhanga rikihuta.

Uriya mutaka tubona hano ni uwa sosiyete y'itumanaho ya emutiyene aho hakorerwamo n'umukozi uyikorera kugira ngo abaturage babashe kwegerezwa ibikorwa byayo nko kuba babitse amafaranga bakayabikuza, bakagura amayinite yo guhamagaza n'ibindi.

Hano turahabona umuntu uri gukubura mu muhanda, akaba ari umwe mu bo igihugu cy 'u Rwanda gikoresha kugira ngo barusheho kugisukura. Habe harangwa isuku mu duce dutandukanye, akaba ari na kimwe mu byo abanyamahanga bo bahungukira.

Hano turahabona itara akaba ari amwe muri ashyirwa ku mihanda, kugira ngo afashe by'umwihariko abagenda nijoro baba bari kuva mu kazi cyangwa mu yindi mirimo itandukanye, kumva batekanye bitewe nuko haba habona.

Izi nsiga tubona nyinshi ni izijyana umuriro w'amashanyarizi mu ngo zitandukanye nkuko bigaragara ho hano. Akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu, cyane ko ahantu henshi Haba haka mu masaha ya ni joro, Kandi bigafasha mu mutekano w'abaturage.

Hano turabonaho insinga z'umuriro w'amashanyarazi aho ujya mu ngo zitandukanye z'abaturage cyangwa se no mu yandi mazu akorerwamo ibindi bikaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu cyane ko mumasaha ya n'ijoro usanga ahantu henshi habona.

Iyi ni imwe mu modoka zitwara abagenzi rusange hano mu mugi wa Kigali, aho zibakura mu gace kamwe zibajyana mu kandi, ndetse bikorohereza n'abakora ingendo za buri munsi; nk'abakozi, abanyeshuri, ndetse n'abakora indi mirimo itandukanye, kugera aho bajya mu buryo buboroheye.

Hano turahabona ipoto iriho imigozi myinshi y'amashanyarazi, aho ijyana umuriro mu ngo zitandukanye z'abaturage, nk'uko bigaragara, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu, aho ahenshi usanga habona no mu masaha ya nijoro.

Izi nsinga tubona hano hejuru ni iz'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana mu ngo zitandukanye ndetse no mu yandi mazu akorerwamo imirimo nk'iy'ubucuruzi n'ibindi, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu ndetse n'abaturage bacyo bakaba bizeye umutekano mu masaha ya nijoro bitewe n'uko haba habona.

Hano turahabona imitaka itatu iranga sosiyete y'itumanaho ya emuti eni aho yegereza abaturage ibikorwa byayo kugirango babe bashobora kubikuza amafaranga kuyabitsa kugura amayinite yo guhamagara mu buryo buboroheye bitewe n'aho bari hose.

Izi ninsinga z'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana mungo zitandukanye z'abaturage nkuko turi kubibona, ndetse no muyandi mazu akorerwamo imirimo inyuranye akaba Ari kimwe mubigararagaza iterambere ry'igihugu.

Izi nsinga nyinshi tubona hano, ni iz'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu. Cyane ko abenshi banaryifashisha mu mirimo yabo ya buri munsi.

Ibi ni ibitaro bya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda , biherereye mu Karere ka Huye, aho byoherezwamo abavuye mu turere dutandukanye tw'Igihugu kugira ngo bahabwe ubuvuzi bakeneye bitewe n'indwara barwaye.

Iyi modoka tubona hano ni imbangukira gutabara, akaba ari imwe muzifashishwa mu mavuriro atandukanye, kugirango zikoreshwe mu gihe hari umurwayi ukeneye ubuvuzi bwihutirwa, abe yagezwa aho afashirizwa mu buryo bwihuse.

Ibi bitaro ni ibya kaminuza nkuru y'u Rwanda bikaba biherereye mu karere ka Huye, aho byoherezwamo abaturage baturutse mu turere dutandukanye tw'igihugu kugira ngo bafashwe mu buvuzi bakeneye ndetse turahabona ibyapa birangira abahaje kuba bamenya aho berekeza bitewe n'uburwayi bafite.

Itente ryubatse nu mugi wa Kigali, riri gukorerwamo inama ijyanye n'ibikorwa bya leta, itete ryubakishijwe irangi ry'umweru, amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hicayemo abadamu, umugabo uhagaze ufite mikoro, uhagaze imbere y'imeza.

Iyi ni imbangukiragutabara ikaba ari imodoka yifashishwa mu mavuriro atandukanye, kugira ngo yitabazwe mu gihe hari umurwayi ukeneye ubuvuzi bwihutirwa cyane, ikaba yamugeza aho abubonera mu buryo bwihuse.

Ibi n'ibitaro bya kaminuza nkuru y'u Rwanda, biherereye mu karere ka huye, aho tuhabona imodoka z'imbangukiragutabara, zifashishwa mumavuriro atandukanye kugira ngo zitabare mu gihe hari umurwayi ukeneye ubuvuzi bwihutirwa kuba yagezwa aho afashirizwa ubuzima bwe bugakurikiranwa.

Ibi ni ibitaro bya kaminuza nkuru y'u Rwanda, biherereye mu karere ka Huye, aho byoherezwamo abaturutse mu turere dutandukanye kugirango bahabwe ubuvuzi bakeneye bitewe n'indwara bafite, kandi hakaba hari n'abaganga babishoboye.

Hano turahabona imbangukiragutabara, akaba ari imodoka zifashishwa mu mavuriro atandukanye, aho zifasha mu gihe hari umurwayi ukeneye ubutabazi bwihutirwa cyane, kuba yagera aho yafashirizwa, bagakurikirana ubuzima bwe.

Kuri uyu muryango turahabona icupa ribamo umwuka wifashishwa mu kuzimya, igihe habayeho inkongi y'umuriro. Rikaba rishyirwa ahakunze guhurira abantu benshi, nko kumazu y'ubucuruzi, mu amasoko, mu amavuriro, mu bigo by'amashuri, mu insengero n'ahandi. kugira ngo yitabazwe mu gihe habayeho icyo kibazo.

Ibi ni ibitaro bya kaminuza nkuru y'u Rwanda biherereye mu karere ka Huye ndetse turahabona n'imbangukiragutabara kaba ari imodoka zifashishwa mu mavuriro atandukanye, kugira ngo zifashe abarwayi bakeneye ubuvuzi bwihutirwa cyane kuba babageza aho bafashirizwa.

Iri n'ivuriro ndetse nkuko tubibona hano hari icupa ribamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, iyaba ashyirwa ahahurira abantu benshi nko ku mavuriro nkaha, mu masoko, mu mashuri ndetse n'ahandi kugira ngo mugihe habayeho icyo kibazo habe harokoka abantu benshi.

Ibi ni ibitaro bya kaminuza nkuru y'u Rwanda, biherereye mu karere ka Huye, aho byoherezwamo abavuye mu duce dutandukanye tw'igihugu, kugira ngo bahabwe ubuvuzi bakeneye bitewe n'indwara bafite, cyane ko haba hari abaganga b'inzobere babishoboye.

Iyi ni imbangukiragutabara ikaba ari imodoka zifashishwa mu mavuriro atandukanye, kugira ngo zifashe mu gihe hari umurwayi ugeze aho yoherezwa kuba zamwihutana agahabwa ubuvuzi akeneye mu buryo bwihuse.

Aya ni amarembo ya gereza ya Rubavu nk'uko tubibona ku cyapa, hakaba ari hamwe mu hashyirwa abakoze ibyaha bitandukanye, kugira ngo bagororwe kandi bigishe imirimo inyuranye, bazasohoke bakora ibifitiye igihugu akamaro.

Iyi nyubako nini tubona, ni gereza ndetse tukaba turi kuhabona n'abagororwa, aho baza kugororerwamo bitewe n'ibyaha bitandukanye baba barakoze kandi bakigishwa n'imyuga inyuranye kugira ngo nibafungurwa bazaze bakora ibifitiye igihugu akamaro.

Iyi nyubako ndende turi kubona hano ni gereza, aho ishyirwamo abagiye kugororwa bitewe n'ibyaha bitandukanye baba barakoze kandi bakigishwa imirimo inyuranye kugira ngo nibafungurwa bazasohoke bakora ibifitiye igihugu akamaro.

Aba ni abagororwa nk'uko bigaragara bakaba bakiri bato aho baba bari kugororerwa bigishwa imirimo itandukanye kugira ngo bazasohoke bafitiye igihugu akamaro ndetse babe bagira icyo bakora kugira ngo biteze imbere .

Iyi ni gereza nk'uko turi kubiyibona, hakaba hariho n'abagororwa, aho baba baje kugororerwa bitewe n'ibyaha bitandukanye bakoze kandi bagatozwa imirimo inyuranye kugira ngo bazafungurwe bakora ibifitiye igihugu akamaro.

Aba ni abagororwa, aho bashyirwa muri gereza bitewe n'ibyaha bitandukanye baba barakoze kugira ngo bagororwe ndetse bigishwe imirimo itandukanye, kugira ngo bazasohoke bakora ibifitiye igihugu akamaro aho kugisenya.

Aba ni abagororwa tubona hano bategereje kwinjira mu igororero, aho bagororwa ndetse bagafashwa gutozwa imirimo itandukanye kugirango bazafungurwe bakora ibifitiye igihugu akamaro.

Aba tubona hano ni abagororwa baba barafunzwe bazira ibyaha bitandukanye bakoze, bagashyirwa mu igororero kugira ngo bafashwe kwigishwa imirimo itandukanye nk'uko tubibona hano hari ibyo bari gukora, bakazasohoka bakora ibifitiyre igihugu akamaro.

Iri ni icupa ribikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, rikaba rigomba guterekwa ahahurira abantu benshi nko ku masoko, mu mavuriro, mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi.

Hano turahabona abapolisi, bakaba ari bamwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko uwo mu muhanda, aho bafasha abatwara ibinyabiziga kwibuka kugendera ku mategeko nk'uko bikwiye.

Iri ni icupa ribamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho rigomba gushyirwa ahahurira abantu benshi nko mu mavuriro, mu masoko, mu bigo by'amashuri n'ahandi kugira ngo bibe byakwifashishwa mu gihe icyo kibazo kibayeho.

Iri cupa ni iribamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, akaba akunda guterekwa ahahurira abantu benshi nko mu masoko, mu mavuriro, mu nsengero, mu mashuri ndetse n'ahandi kugira ngo ibe yafasha mu gihe habayeho icyo kibazo.

Hano turabonaho umupolisi akaba ari umwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko bagafasha abo mu muhanda batwara ibinyabiziga kwibuka kugendera mu mategeko, kugirango birinde impanuka.

Iri cupa tubona hano ni iribikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho rigomba gushyirwa ahahurira abantu benshi nko mu mavuriro ku masoko mu bigo by'amashuri n'ahandi, kugira ngo ribe ryakwifashishwa mu gihe havutse icyo kibazo.

Aya macupa ni abikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, akaba ashyirwa ahahurira abantu benshi nko mu bigo by'amashuri, mu nsengero, mu masoko ndetse n'ahandi kugira ngo abe yakwifashishwa mu gihe habayeho icyo kibazo.

Iri cupa tubona hano ni iribikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, rikaba rigomba gushyirwa ahahurira abantu benshi nko mu mavuriro, mu bigo by'amashuri, mu masoko, kugira ngo ube wakwifashishwa mu gutabara igihe habayeho icyo kibazo.

Aya macupa tubonamo hano n'abamo umwuka wifashishwa mukuzimya mugihe habaye inkongi y'umuriro, aho aba agomba gushyirwa ahahurira abantu benshi nko mu mashuri, mu nsugero, mu masoko ndetse n'ahandi kugirango abe yafasha kurokora abantu benshi mugihe habayeho icyo kibazo.

Hano turahabona umupolisi akaba ari umwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko wo mu muhanda aho bafasha abatwara ibinyabiziga kwibuka kugendera ku mategeko abagenga mu rwego rwo kwirinda impanuka .

Hano hasi mu iguni tuhabona icupa ribamo umwuka wifashishwa mukuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, Kandi nk'uko tubibona biragaragara ko ari mu isoko rikaba rishyirwa ahakunze guhurira abantu benshi kugira ngo mugihe habayeho icyo kibazo ribe ryabatabara.

Hano turahabona umupolisi, akaba ari umwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko wo mu muhanda, aho bafasha kwibutsa abatwara ibinyabiziga kugendera ku mategeko abagenga mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye.

Aya macupa tubona hano, ni avamo umwuka wifashishwa mu kuzimya mu gihe habayeho inkongi y'umuriro, akunze gushyirwa ahahurira abantu benshi cyane cyane nko mu masoko, mu mashuri, mu nsengero, mu mavuriro n'ahandi. Kugirango mu gihe habayeho icyo kibazo, bibe byatabara ubuzima bwa benshi.

Hano turahabona abapolisi akaba ari bamwe mu bashinzwe umutekano wo mu muhanda, aho bari ari gufasha abatwara ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru kuba bakoresha neza umuhanda, turabona ko bahagaritse ibinyabiziga kugira ngo abantu babanze batambuke na byo bibone kugenda mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Aya macupa tubona hano, ni abamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, akaba akunze guterwa ahahurira abantu benshi; nko mu masoko, mu mavuriro, mu mashuri, mu nsengero, n'ahandi, kugira ngo abe yakwifashishwa mu gihe habayeho icyo kibazo.

Hano turahabona amacupa yifashishwa mu kuzima igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho ashyirwa ahahurira abantu benshi; nko mu mavuriro, mu masoko, mu mashuri, n'ahandi, kugira ngo abe yatabara mu gihe habayeho icyo kibazo.

Iri cupa ntirivamo umwuka wifashishwa mu kuzimya, igihe habayeho inkongi y'umuriro, rikaba rigomba gushyirwa ahahurira abantu benshi nko ku masoko ,mu mavuriro ,mu bigo by'amashuri, mu nsengero n'ahandi kugira ngo ube wakwifashishwa mu gihe habayeho icyo kibazo.

Hano turahabona umupolisi, akaba ari umwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, aho bafasha by'umwihariko abatwara ibinyabiziga, kwibuka kugendera ku mategeko nk'uko bikwiriye, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Hano turahabona abapolisi akaba ari bamwe mu bashinzwe umutekano w'igihugu cyu Rwanda byumwihariko wo mu muhanda aho bafasha abatwara ibinyabiziga kwibuka kugendera ku mategeko mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Iri cupa tubona hano ni iribamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, ukaba ugomba gushyirwa ahantu hatandukanye by'umwihariko ahahurira abantu benshi, nko mu mavuriro, ibigo by'amashuri, mu masoko n'ahandi.

Hano turahabona umupolisi, akaba ari umwe mu bashinzwe umutekano w'u Rwanda, by'umwihariko mu muhanda. Aho baba bari kwibutsa abatwara ibinyabiziga kugendera ku mategeko uko bikwiriye, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Aya macupa tubona hano ni amwe muyabikwamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro, aho abagomba gushyirwa ahahurira abantu benshi, nko mu mazu y'ubucuruzi, nk'uko tubibona hano ni munzu icurururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi, kugira abe yakwifashishwa mu gihe habayeho icyo kibazo.

Iri cupa ni iribamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro akaba agomba gushyirwa ahahurira abantu benshi nko mu mavuriro mu bigo by'amashuri mu isoko n'ahandi kugira ngo abe yakwifashishwa mu gutabara igihe habayeho icyo kibazo.

Ayo macupa nabamo umwuka wifashishwa mu kuzimya igihe habayeho inkongi y'umuriro akaba agomba gushyirwa ahahurira abantu benshi nko mu mavuriro mu masoko mu mashuri mu nsengero n'ahandi kugira ngo abe yakwifashishwa mu gihe habayeho icyo kibazo kandi birokore ubuzima bwa benshi.

Hano turahabona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho yari ari kwiyamamariza kuyobora kandi nk'uko tubibona abaturage bari benshi baje kumushyigikira kandi bamwishimiye.

Hano turahabona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho yari ari kwiyamamariza mu turere dutandukanye ndetse nk'uko bigaragara abona ko abaturage bari bamwishimiye bamwereka urukundo kandi bamushyigikiye.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aha akaba yarari kwiyamamariza kuyobora ndetse nk'uko bigaragara abaturage bakaba bari bari kumweraka ururkundo, bamwishimiye kandi bamushyigikiye.

Hano turahabona abaturage ho bari bari kwamamaza umukandida w'ishyaka rya efuperi mu gihe cy'amatora kandi akaba ari nawe we uyobora igihugu cy'u rwanda muri iki gihe.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho yarari kwiyamamariza kuyobora uduce dutandukanye, kandi nk'uko tubibona abaturage bakaba bari kumwereka urukundo, bamushyigikiye kandi bamwishimiye.

Uyu yari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho yari ari kwiyamamariza kuyobora mu duce dutandukanye, ndetse nk'uko tubibona abaturage bakaba bari bamwishimiye, bamushyigikiye kandi bari kumwereka urukundo.

Aha ni aha hari kwiyamamariza umukandida w'ishyaka rya Efuperi uko bigaragara abaturage bakaba bari benshi baje kumwereka urukundo bamushyigikiye kandi akaba ari we uyobora igihugu cy'u Rwanda muri iki gihe.

Iki cyapa turakibonaho umukandida w'ishyaka rya efuperi, aho yari ari kwiyamamaza mu matora, kandi nk'uko bigaragara abaturage bari benshi bamushyigikiye, akaba ari na we wayatsinze, ubu akaba ayobora igihugu cy'u Rwanda.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho yarari kwiyamamariza mu duce dutandukanye, kandi nk'uko bigaragara abaturage bari bamwishimiye, ndetse bamwereka ko bamushyigikiye.

Aha ni aho umukandida w'ishyaka rya fpr akaba n'Umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda yari ari kwiyamamariza, uko bigaragara turabona abaturage benshi baje kumushyigikira, kandi bamwishimiye.

Hano turabonaho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, igihe yarari kwiyamamariza mu turere dutandukanye kandi nk'uko bigaragara abaturage bamugaragarije urukundo ndetse bamwereka ko bamushyigikiye.

Hano ni aho umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda yari yaje kwiyamamariza, mu duce dutandukanye kandi nkuko tubibona, hariyo abantu benshi cyane baje kumugaragariza urukundo, bamwishimiye kandi bamushyigikiye.

Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho yari kwiyamamariza gutorwa ndetse nk'uko bigaragara inyuma hari abaturage benshi cyane baje kumwereka urukundo ndetse bamushyigikiye.

Iyi kamyo nini tubona hano n'imwe muzipakira ibintu byinshi kandi biremereye, aho abakora umwuga wo kubaka bakunze kuzifashisha bazishyiramo imicanga, amatafari nibindi.

Iyi kamyo nini tubona hano, ni imwe mu zitwara ibintu biremereye kandi byinshi cyane, akaba ariyo yifashishwa n'abakora umwuga wo kubaka, bayitwaramo nk'umucanga, amatafari n'ibindi.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zikoreshwa mu mujyi wa kigali mu gutwara abagenzi rusange, aho zifasha abakora imirimo itandukanye ya buri munsi nk'abacuruzi, abanyeshuri kubona uburyo bwo kugera aho bajya byoroshye.

Iyi moto tubona hano ni imwe muzifashishwa mu gutwara imizigo nkuko tubibona hari nibyo ipakiye abacuruzi bakaba bakunze kuyifashisha mu gihe bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo kubabiguze cyangwa se bavuye kurangura.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zitwara abagenzi rusange mu mujyi wa kigali, aho ifasha abakora ingendo za buri munsi nk'abagiye mu kazi, abanyeshuri n'abandi, kubona uburyo bworoshye bwo kugera aho bajya kandi buhendutse.

Hano turahabona amamoto manini akaba ari amwe mu yifashishwa mu gutwara ibintu biremereye, abacuruzi bakaba bayakoresha bashaka kugeza ibicuruzwa byabo ku babiguze bari mu duce dutandukanye, cyangwa se mu gihe bavuye kurangura bashaka kubigeza aho bakorera.

Iyi kamyo nini tubona hano n'imwe muzipakiye ibintu byinshi cyane kandi biremereye aho ikunze kwifashishwa n'abubaka kubera ko bayishyiramo umucanga, amatafari ndetse n'ibindi.

Iyi moto nini tubona hano ni imwe muzifashishwa mu gutwara imizigo cyane cyane ikaba ikunzwe gukoreshwa n'abacuruzi mu gihe bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo ku babiguze cyangwa se bavuye kubirangura.

Hano turahabona abatwara abantu n'ibintu bakoresheje ikinyabiziga cya moto, ari uburyo bworohereza benshi by'umwihariko abajya ku kazi, cyane ko ari uburyo bwihuta kandi buhendutse.

Hano turahabona kimwe mu byapa bishyirwa ku muhanda bigaragaza aho ibinyabiziga bigomba guparika by'umwihariko ibitwara abagenzi rusange, aho bifasha abakeneye kubitega kumenya aho babishakira kandi bigatuma n'akavuyo ku mu muhanda gacika ku buryo budateza impanuka.

Iyi ngofani nini tubona hano yifashishwa na bamwe mu batwara imizigo, aho bayipakiramo ibyo badashobora gushyira ku mutwe nk'imifuka myinshi, amakarito, amajerekani arimo amavuta n'ibindi.

Izi modoka tubona hano, ni zimwe mu zifashishwa n'abanyeshuri, bakeneye gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga mu muhanda, aho zibafasha gushyira mu bikorwa amategeko baba barize.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zikorera mu mujyi wa kigali zitwara abagenzi rusange zibavana mu duce tumwe zibajyana mu tundi, aho byorohereza abakora ingendo za buri munsi kubona uburyo bwo kugera aho bajya biboroheye.

Hano turahabona imirongo y'umweru iri mu muhanda, ikaba igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira, mu buryo bwemewe ndetse bikorohereza n'abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara bakarindira mu gihe hari uri gutambuka, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Iyi bisi nini ni imwe mu zikora mu mujyi wa Kigali aho itwara abagenzi rusange by'umwihariko igafasha abakora ingendo za buri munsi nk'abakozi, abanyeshuri n'abandi kuba bagera aho bajya mu buryo buboroheye.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano hagati mu muhanda, ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe, ndetse bigafasha n'abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara cyangwa bakagabanya umuvuduko mu gihe hari uri gutambuka mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Hano turahabona umwe mu bikorere imizigo ndetse afite n'ingorofani bifashisha mu gihe ibyo bagiye gutwara biremereye. Bakaba ariho babipakira nk'imifuka, amajerekani, amakarito n'ibindi.

iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zikora mu mujyi wa kigali, zitwara abagenzi rusange, aho zifasha abakora ingendo za buri munsi, nk'abakozi, abanyeshuri, n'abandi, kubona uburyo bworoshye bwo kugera aho bajya.

Iyi bisi tubona hano, ni imwe mu zikora mu Mujyi wa Kigali zitwara abantu rusange zibavana mu have kamwe zibajyana mu kandi, akaba ari u uryo bworohereza abakora ingendo za buri munsi, kubona uko bakora ingendo zidahenze.

Izi moto nini tubona hano, ni zimwe mu zifashishwa mu gutwara imizigo, cyane cyane abacuruzi bakazikoresha mu gihe bashaka kugeza ibicuruzwa byabo ku babiguze mu duce dutandukanye, cyangwa se bavuye kubirangura, bakabigeza aho bakorera.

Hano turi kubonaho abatwara ibintu n'ibintu bakoresheje ibinyabiziga bya moto se nk'uko bigaragara hari uwo bari gupakiriraho umuzigo akaba ari uburyo abaturage bakunze gukoresha mu gihe bakeneye kujya ahantu bihuse cyangwa se gutwara ibicuruzwa byabo.

Iyi moto tubona hano nimwe muzifashishwa mugutwara imizigo, byumwihariko abacuruzi bakazikoresha mugihe bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo kubabiguze bari ahantu hatandukanye.

Izi moto tubona hano ni zimwe muzifashishwa, mu gutwara imizigo, aho abacuruzi bazikoresha mu gihe bakeneye kugeza ibicuruzwa ku babiguze cyangwa se bavuye nko kurangura bashaka ko bigera aho bakorera.

Hano turahabona ibinyabiziga by'amagare, aho abantu bakunze kubikoresha bari ku rugendo by'umwihariko abafite amafaranga make ndetse akaba ari bimwe mu byifashishwa mu gutwara imizigo umuntu aba adashobora kwikorera ku mutwe.

Uyu ni umwe mu batwara abantu n’ ibintu bakoresheje ikinyabiziga cya moto, bakaba ari kimwe abakora ingendo za buri munsi bakunda gukoresha bitewe n'uko cyihuta bakagera aho bajya byoroshye kandi mu buryo buhendutse.

Hano turahabona umwe mu batwara abagenzi bifashishije ibinyabiziga bya moto, hari uburyo bworohereza benshi by'umwihariko abakora ingendo za buri munsi bakeneye kwihuta bagera aho bakorera cyangwa se abandi, cyane ko byihuta kandi bikaba bihendutse.

Iyi ni gare mpuzamahanga iherereye Nyabugogo, mu mujyi wa Kigali, aho ibamo ibinyabiziga bitandukanye bijya mu duce two hirya no hino tw'igihugu, mu buryo bwo gufasha abakeneye gukora ingendo kuba babona aho bategera byoroshye.

Iyi bisi nini tubona hano, ni imwe mu zitwara abagenzi rusange mu mujyi wa Kigali ibavana mu gace kamwe ibajyana mu kandi, zikaba zifasha abakora ingendo za buri munsi, nk'abagiye mu kazi, abanyeshuri ndetse n'abakora indi mirimo itandukanye kugera aho bajya mu buryo bwihuse kandi budahenze.

Iyi ni imwe mu modoka zifashishwa n'abanyeshuri bifuza gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, aho ibafasha gushyira mu bikorwa amategeko baba barize no kureba uko akoreshwa.

Iyi modoka Nini tubona hano n'imwe mu mugi wa Kigali zitwara abagenzi rusange aho zibavana mu gace kamwe zubajyana mukandi. Kandi bikorohereza ahakora igendo za buri munsi kubona uburyo byo kugera aho bajya byihuse.

Hano turahabona ibinyabiziga bya moto bitandukanye, by'umwihariko icyo tubona gikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi, akaba ari kimwe mu byo igihugu cyifuza, mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije, hirindwa ibyotsi byangiza ikirere.

Izi modoka tubona hano, ni zimwe mu zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, aho zifasha gukora ingendo za buri munsi nk'abagiye ku kazi, abanyeshuri n'abandi, kubona uburyo bubafasha kugera aho bajya byoroshye.

Uyu ni umwe mu batwara abantu n'ibintu, akoresheje ikinyabiziga cya moto, akaba ari bumwe mu buryo abakora ingendo za buri munsi kandi bakeneye kwihuta bakunda, kugirango bagere aho bajya byihuse, kandi bidahenze.

Iyi moto nini tubona hano ni imwe mu zifashishwa mu gutwara imizigo, by'umwihariko abacuruzi bakayikoresha mu gihe bakeneye kujyana ibicuruzwa byabo ahantu hatandukanye ku babiguze cyangwa se bavuye nko kurangura kubigeza aho bakorera.

Iyi kamyo nini tubona hano, ni imwe mu zipakira ibintu byinshi kandi biremereye, ikaba ikunze kwifashishwa n'abubaka kubera ko bayitwaramo umucanga, amabuye, n'ibindi.

Hano turabonaho ikinyabiziga cya moto, akaba ari kimwe mu byorohereza abakora akazi ka buri munsi cyangwa se ingendo, bitewe n'uko byihuta kandi bukaba budahenze.

Iyi kamyo nini ni imwe mu zipakira ibintu byinshi kandi biremereye, zikaba zikunze kwifashishwa n'abakora umwuga wo kubaka, bazishyiramo umucanga, amabuye, ibitaka ndetse n'ibindi.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zikorera mu mujyi wa Kigali aho zitwara abagenzi rusange, zikaba zifasha abakora ingendo za buri munsi. nk'abagiye ku kazi abanyeshuri ndetse n'abandi, kubona uburyo buborohereza kugera aho bajya.

Iyi kamyo nini tubona hano, ni imwe mu zitwara ibintu biremereye cyane kandi byinshi, ikaba ikunze kwifashishwa n'abakora umwuga wo kubaka, bayipakiramo nk'umucanga, amatafari n'ibindi.

Iyi modoka nini tubonaho hano ni imwe mu zitwara abagenzi rusange zikorera mu mujyi wa Kigali, aho zifasha abakora ingendo za buri munsi nk'abacuruzi, abanyeshuri ndetse n'abandi, kugera aho bashaka kujya mu buryo bworoshye kandi buhendutse.

Hano turahabona imodoka zitandukanye zikorera mu mugi wa Kigali zikaba zitwara abagenzi rusange, aho zorohereza abakora ingendo za buri munsi kubona uburyo bworoshye bwo kugera aho bajya.

Iyi bisi nini tubona hano, ni imwe mu zikora mu mujyi wa Kigali, zitwara abagenzi rusange, aho ifasha abakora ingendo za buri munsi, nk'abajya mu kazi, abanyeshuri, n'abandi, kuba bagera aho bajya, mu buryo buboroheye.

Iyi moto ni imwe mu zifashishwa mu gutwara imizigo, aho abacuruzi bayikoresha mu gihe bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo ku babiguze bari ahantu hatandukanye. Nk'amabati ndetse n'ibindi.

Iyi ni imwe mu modoka zifashishwa n'abitegura gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, aho ibafasha kwihugura kugira ngo bamenye uko bashyira mu bikorwa amategeko y'umuhanda baba barize.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zitwara abagenzi rusange, ikorera mu mujyi wa Kigali, aho ifasha abakora ingendo za buri munsi, nk'abanyeshuri, abakozi, kuba babona uburyo bworoshye bwo kugera aho bajya kandi budahenze.

Iyi moto nini iri hano ni imwe mu zifashishwa by'umwihariko gutwara imizigo, abacuruzi bakaba bayikoresha bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo ku babiguze bari mu duce dutandukanye, cyangwa se no mu gihe bavuye kurangura bashaka kubigeza aho bakorera.

Hano turahabona umwe mu batwara imizigo aho afite ingorofani bifashisha bashyiraho ibintu biremereye batabasha kwikorera ku mutwe nk'imifuka, amajerekani, amakarito n'ibindi.

Muri uyu muhanda turahabona ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo abatwara abagenzi kuri moto, ko hari uburyo abakora akazi ka buri munsi bakunze kwifashisha bitewe n'uko zihuta kandi zikaba zidahenda.

Iyi modoka nini tubona hano, ni imwe mu zikorera mu mugi wa Kigali, zitwara abagenzi rusange, zikaba zorohereza abakora ingendo za buri munsi, nk'abakozi, abanyeshyuri, n'abandi, kugera aho bajya mu buryo buboroheye, kandi buhendutse.

Hano turahabona bamwe mu batwara abagenzi bakoresheje ibinyabiziga bya moto, aho ari uburyo abantu benshi bakunda by'umwihariko abakora akazi ka buri munsi, butewe nuko bubafasha kwihuta kugera aho bakorera kandi bukaba budahenze.

Iyi ngorofani tubona hano, ni imwe mu zifashishwa n'abatwara imizigo, ikaba iborohereza mu gihe ari ibintu biremereye badashobora kwikorera, nk'imifuka myinshi, amakarito cyangwa se amajerekani y'amavuta.

Muri uyu muhanda turahabona ibinyabiziga bya moto, akaba ari bimwe mu byifashishwa na benshi by'umwihariko abakora akazi ka buri munsi, kugirango bagere aho bakorera ku gihe kandi akaba ari uburyo bwihuta bunahendutse.

Izi modoka nini tubona hano ni izikora mu mujyi wa kigali zikaba zitwara abagenzi rusange aho zifasha abakora ingendo za buri munsi nk'abacuruzi abanyeshuri n'abandi kugera aho bajya mu buryo bworoshye kandi buhendutse .

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zikorera mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange, aho zifasha abakora ingendo za buri munsi, harimo abanyeshuri, abakora akazi gatandukanye nk'ubucuruzi kuba bagera aho bajya mu buryo bworoshye.

Muri uyu muhanda turahabona ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo abatwara abagenzi bakoresheje moto, bukaba ari uburyo bworohereza benshi mu gihe bakeneye kwihuta kugira ngo bagere aho bagiye ku gihe kandi bukaba ari uburyo budahenze.

Iyi bisi nini tubona hano ni imwe mu zitwara abagenzi rusange zikorera mu mujyi wa Kigali, aho ifasha abakora ingendo za buri munsi habagiye mu kazi, abanyeshuri kubona uburyo buborohereza bwo kugera aho bajya, kandi turahabona n'aho abazitegereje baba bashobora kwicara cyangwa se abakeneye kuruhuka.

Iyi ngorofani tubona hano, ni imwe mu bifasha abikorera imizigo kuba bayitwaraho ibintu biremereye, badashobora kwikora ku mutwe. nk'imifuka myinshi, amajerekani arimo amavuta, ndetse n'ibindi.

Iyi bisi nini ni imwe muzikora mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange, aho zifasha abakora ingendo za buri munsi, abajya ku kazi, abanyeshuri n'abandi kugera aho bajya mu buryo bworoshye, kandi bwihuse.

Iyi moto tubona hano ni imwe mu zikoresha umuriro w'amashanyarazi zikaba zifasha igihugu kwirinda ibyotsi bihumanya ikirere ndetse no kwangiza ibidukikije.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe mu zikorera mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange, ikaba yorohereza abakora ingendo za buri munsi by'umwihariko bajya ku kazi, n'abanyeshuri, ndetse n'abandi kuba bagera aho bajya, mu buryo bworoshye.

Uyu ni umwe mu batwara abagenzi yifashishije ikinyabiziga cya moto, aho ari uburyo abakora ingendo za buri munsi bajya mu kazi cyangwa ahandi bakunda, bitewe n'uko bwihuta.

Muruyu muhanda turahabona ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo ibya moto akaba Aribimwe mubyo abantu bakunze gutega bitewe nuko byihuta kandi bikaba bidahenze.

Aba ni bamwe mu batwara ibintu n'abantu bakoresheje ibinyabiziga bya motokaba, ari uburyo bufasha benshi by'umwihariko abajya ku kazi ka buri munsi, kugirango bagere aho bakorera ku gihe badakerewe.

Iyi moto nini tubona hano ni imwe mu zifashishwa mu gutwara imizigo by'umwihariko, cyane cyane ko ikunze gukoreshwa n'abacuruzi, mu gihe bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo ku babiguze, bari mu duce dutandukanye.

Iyi ni moto ikaba ari imwe mu zifashishwa mu gutwara imizigo by'umwihariko mu gihe abacuruzi bakeneye kugeza ibicuruzwa byabo ku babiguze cyangwa mu duce dutandukanye, ndetse ikifashishwa no ku waba akeneye kwimuka.

Aya magare tubona hano ni akoreshwa mu gutwara abantu mu duce dutandukanye by'umwihariko nk'aba bafite ubushobozi buke kandi bashaka kugera kure, ikindi akaba yifashishwa n'abacuruzi bapakiraho imizigo bayijyana hirya no hino haba kuyishyira bayiguze cyangwa aho bakorera.

Iyi modoka tubona hano nimwe mumakamyo apakira ibintu byinshi kandi biremereye aho yifashishwa n'abubatsi bashyiramo imicanga, amatafari, ibitaka basenye ahantu ndetse nibindi.

Uyu ni umwe mu batwara abantu n'ibintu akoresheje ikinyabiziga cya moto nk'uko tubibona hari n'uwo ahetse, akaba ari uburyo bworohereza benshi by'umwihariko nk'abagiye ku kazi bakeneye kuhagerera ku gihe kubera ko bwihuta kandi budahenze.

Hano ni mu mujyi wa Kigali ahari umwanya washyiriweho abaturage, aho bahashyize intebe bashobora kwicaraho bari kuganira, bari kuruhuka, bari gukora ibindi bintu bitandukanye nk'imyidagaduro kandi bakumva batekanye bitewe n'uko nta binyabiziga bihaca.

Hano ni mu mugi wa Kigali hari agace kashyiriweho abaturage, harimo intebe bashobora kuruhukiraho abakeneye gukora imirimo itandukanye, cyane cyane ko baba bisanzuye bitewe nuko nta binyanyabiziga bihaca ndetse n'abakora imyidagaduro barayihakorera.

Hano ni mu mujyi wa Kigali, aho tubona ahari umwanya wahariwe abaturage, hari intebe bicaraho, baba abari kuruhuka, abari kuganira, cyangwa se mu bikorwa bitandukanye, nk'imyidagaduro, kandi bakaba bisanzuye bitewe n'uko haba hari umutekano, nta binyabiziga bihaca.

Aha ni mu mujyi wa Kigali ahashyiriweho abaturage ko tubibona hari intebe zo kwicaraho, aho hari bamwe bahicara mu gihe bakeneye kuganira, bari kuruhuka cyangwa se bari gukora ibindi bikorwa birimo imyidagaduro, kandi bakaba batuje bitewe n'uko nta binyabiziga bihaca.

Hano ni mu mujyi wa Kigali ahari umwanya washyiriweho abaturage aho bashobora kwicara baruhuka, baganira cyangwa bakora ibindi bikorwa birimo nk'imyidagaduro, ndetse bakaba bumva batekanye bitewe n'uko ntabinyabiziga bihanyura.

Hano turahabona ikibuga cy'umupira, ndetse n'abari gukiniraho, bikaba bifasha abifuza gukora imyitozo ngororamubiri kuba babona aho bayikorera, mu rwego rwo gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Aya matara tubona hano, afasha abanyamaguru kumenya igihe gikwiye cyo kwambuka, ndetse n'abatwara ibinyabiziga bagahagarara kugira ngo bareke abantu babanze batambuke na bo babone kugenda, bikaba bifasha mu rwego rwo kwirinda impanuka ndetse n'akavuyo ko mu mihanda.

Aya matara ni ashyirwa ku mihanda kugira ngo afashe baba abanyamaguru kumenya igihe gikwiye cyo kwambukira ndetse n'abatwara ibinyabiziga bakaba bahagarara mu rwego rwo kwirinda impanuka bikaba bifasha kurinda akavuyo ko mu mihanda .

Aya matara ashyirwa ku muhanda n’agaragaza igihe gikwiriye umunyamaguru agomba kwambukira, ndetse n'ibinyabiziga bikamenya ko bigomba guhagarara, kugira ngo abantu babanze batambuke nabyo bibone kugenda. Akaba ar’uburyo bufasha mu kwirinda impanuka zitandukanye bitewe n'akavuyo ko mu mihanda.

Hano turahabona insinga z'umuriro w'amashanyarazi zijya mu byerekezo bitandukanye, aho ziwujyana mu ngo z'abaturage ndetse no mu yandi mazu akorerwamo nk'ubucuruzi n'ibindi, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu.

Aya ni amatara ashyirwa ku muhanda yerekana igihe abanyamaguru baba bagomba kwambukira, ibinyabiziga bikaba bihagaze bigategereza ko barangiza gutambuka, nabyo bikabona kugenda. Bikaba bifasha mu kwirinda impanuka.

Hano turahabona ibyapa birimo ikigaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira, bikaba bishyirwa ku muhanda mu rwego rwo gufasha abatwara ibinyabiziga kumenya aho bagomba guhagarara cyangwa kugabanya umuvuduko mu gihe hari uri gutambuka, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Iki cyapa tubona hano ni ikigaragaza aho imodoka ziparika, by'umwihariko izitwara abagenzi rusange, uko tubibona hirya hari n'akazu bicaramo bategereje cyangwa se nk'abari ku rugendo baruhuka, kikaba gifasha ushaka kuyigendamo kumemya aho ayishakira, ndetse bikarinda n'akavuyo ko mu muhanda.

Iki cyapa cyerekana amatara ashyirwa ku mihanda, kugira ngo bifashe abagenda n'amaguru kumenya igihe gikwiriye cyo kwambukira, ndetse n'abatwara ibinyabiziga bakaba bahagarara mu rwego rwo kurinda impanuka.

Iki ni kimwe mu byapa bishyirwa ku muhanda, aho bigaragaza imodoka zigomba guparika by'umwihariko izitwara abagenzi rusange, bikaba bifasha abakeneye kuzigendamo kuba bamenya aho bazishakira.

Iki cyapa ni ikiranga aho abanyamaguru bagomba kwambukira kikaba gifasha abatwara ibinyabiziga kuhabona mbere, bityo bakagabanya umuvuduko cyangwag se bagahagarara mu gihe hari uri gutambuka mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Iki cyapa ni kimwe mu bishyirwa ku mihanda bigaragaza aho imodoka ziparika by'umwihariko izitwara abagenzi rusange, ku buryo n'ukeneye kuyitega aba ashobora kubona aho yayifatira bimworoheye.

Iki cyapa ni ikiranga aho abanyamaguru bambukira, kikaba ari kimwe mu bishyirwa ku muhanda, kugira ngo bifashe abatwa ibinyabiziga kumenya aho bagomba kugenda gake, cyangwa bagahagarara mu gihe hari uri gutambuka mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Iki ni icyapa gishyirwa aho imodoka zihagarara by'umwihariko izitwara abagenzi rusange, bikaba byorohereza abakeneye kuzigendamo kumenya aho bazishakira ndetse n'abandi aho bahagarara, mu rwego rwo kwirinda akavuyo ko mu muhanda no guteza impanuka.

Iki ni icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bagomba bambukira aho gishyirwa hafi aho kugira ngo bifashe abatwara ibinyabiziga kumenye ko bagomba kugenda gake bagategereza mu gihe hari uri gutambuka mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Umuhanda harimo imodoka ndetse n'abagenzi bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru. Inyubako zubatse mu buryo butandukanye, hari ibyuma biriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Itente ryubatse nu mugi wa Kigali, riri gukorerwamo inama ijyanye n'ibikorwa bya leta, itete ryubakishijwe irangi ry'umweru, amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hicayemo abadamu, umugabo uhagaze ufite mikoro, uhagaze imbere y'imeza.

Hano turahabona icyapa kinini kiranga inzu icururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa by'ubwoko butandukanye, aho gifasha uwaba ukeneye kuhajya kuba yahasobanukirwa mu buryo bworoshye.

Abakozi k'umurimo urabona ko imbere hari ingorofani yikorera imizigo, imbere yaho hari abacuruzi ndetse nabamotari batwaye moto bisa naho bagiye mukazi ndetse niruhande rwabo harimo aba papa beza cyane bagiye mukazi.

Hano turahabona insinga z'umuriro w'amashanyarazi aho ziwujyana mu ngo zitandukanye z'abaturage, ndetse no mu mazu akorerwamo ubucuruzi. Akaba ari kimwe mu bikorwa bigaragaza iterambere ry'igihugu cyane ko abenshi mu masaha ya nijoro baba bakorera ahabona ndetse bizeye n'umutekano.

Iyi imirongo tubona mu muhanda, n' igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe. Bikaba bifasha abatwara ibinyabiziga guhagarara mu gihe hari uri gutambuka . Mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye.

Muri uyu muhanda turahabona imirongo y'umweru igaragaza aho umunyamaguru agomba kwambukira mu buryo bwemewe ndetse bigafasha n'abatwara ibinyabiziga guhagarara cyangwa kugenda gake mu gihe hari uri gutambuka, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Iki ni ikinyabiziga cya moto nkuko tubibona akaba ari kimwe mu byo abantu bakunda gutega by'umwihariko abakora imirimo ya buri munsi kubera ko byihuta kandi bikaba bidahenze.

Iyi mirongo tubona muri uyu muhanda niyo igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira, kandi bigafasha n'abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Hano turahabona ikiraro cyubatse mu mujyi wa Kigali kiriho umuhanda uca hejuru y'indi akaba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Iyi mirongo y'umweru tubona muri uyu muhanda; ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe n'amategeko, bikaba binafasha abatwara ibinyabiziga kuba bakwirinda impanuka muburyo bworoshye.

Ni imirogo y'umweru tubona muri uyu muhanda ni igaragaza aha abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe ndetse bigafasha n'abatwara ibinyabiziga kuba bakwirinda kubagonga batababonye bitewe nuko baciye aho babonye hose.

Hano turahabona amatara yo ku muhanda ahafasha abawukoresha by'umwihariko abanyamaguru kumenya igihe gikwiriye cyo kwambuka, ibinyabiziga bigahagarara bikareka abantu bakanza bagatambuka nabyo bikagenda mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye cyangwag se akavuyo ko mu muhanda.

Iki kiraro cyubatse mu mujyi wa Kigali aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, akaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Hano turabonaho umuntu utwara abantu akoresheje ikinyabiziga, kandi nk'uko tubibona ni kimwe mu bikoresha umuriro w'amashanyarazi, mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije hirindwa ibyangiza ikirere nk'ibyotsi, ndetse n'ibindi.

Aya matara turi kubona hano mu muhanda, ni ayerekana aho abawukoresha baba bagomba kwambuka by'umwihariko abagenda n'amaguru, igihe gikwiriye baba bagomba kugendera n'ibinyabiziga bikaba byahagarara mu gihe hari abari gutambuka, mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye.

Aya matara tubona ku muhanda ni afasha abanyamaguru kumenya igihe gikwiye cyo kwambuka bigatuma n'abatwaye ibinyabiziga bahagarara, bakareka abantu bakabanza bagatambuka nabo bakabona kugenda, ndetse akaba ari uburyo bwo kwirinda akavuyo n'impanuka zo mu muhanda.

Iki kiraro tubona hano cyubatse mu mujyi wa Kigali, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, kikaba kigaragaza bimwe mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda.

iyi mirongo y'umweru tubona muri uyu muhanda ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe bikaba bifasha abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara mu gihe hari uri gutambuka mu rwego rwo kwirinda impanuka

Iyi mirongo y'umweru tubona mu muhanda ni iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe kandi bigafasha n'abatwara ibinyabiziga guhagarara mu gihe hari abari gutambuka mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Hano turahabona amatara ashyirwa ku mihanda agaragaza igihe abanyamaguru baba bagomba kwambukira, ndetse n'abatwaye ibinyabiziga bagahagarara mu rwego rwo kwirinda guteza impanuka n'akavuyo mu muhanda.

Hano turahabona ikiraro cyubatse mu mujyi wa kigali kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, akaba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Iyi mirongo tubona hano hagati mu muhanda, ni iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe, ndetse bigafasha abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara mu gihe hari uri gutambuka mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Iki kiraro cy'ubatswe mu mugi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, akaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Iyi mirongo y'umweru tubona hagati mu muhanda iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe, ndetse bigafasha n'abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara mu gihe hari gutambuka, mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye.

Iki kiraro tubona hano cyubatse mu mujyi wa kigali kikaba kiriho n'umuhanda uca hejuru y'indi, kikaba ari kimwe mu bikorwaremezo bigaragaza iterambere ry'u Rwanda.

Muri uyu muhanda turahabona imirongo y'umweru ikaba ari igaragaza aho abanyamagaru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe, ndetse bigafasha abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara mu gihe hari uri gutambuka, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe, ndetse tukabona n'undi muremure, aho abatwaye ibinyabiziga baba bagomba guhagarara mu gihe hari uri gutambuka, mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye.

Kuri uyu muhanda turahabona amatara ashyirwa mumihanda itandukanye, yerakana igihe abanyamaguru baba bagomaba kwambukira, igihe abatwara ibinyabiziga baba bagomba gutegereza abantu bakabanza bagatambuka nabyo bikabona kujyenda, akaba ari bimwe mubifasha kwirinda impanuka.

Iki kiraro tubona hano cyubatse mu mujyi wa Kigali aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi akaba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Muri uyu muhanda turahabona imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe kandi bigafasha abatwara ibinyabiziga kwirinda impanuka nkuko tubibona baba bahagaze kugira ngo umuntu abashe gutambuka nabo babone gukomeza.

Iki kiraro tubona hano cyubatse mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro aho ari kimwe mu bikorwaremezo bigaragaza ko igihugu cyu Rwanda gikomeje gutera imbere.

Iyi mirongo tubona muri uyu muhanda ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe, ndetse bigafasha n'abatwara ibinyabiziga kumenya ko bagomba guhagarara, mu gihe hari uri gutambuka, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Iyi mirongo tubona hagati mu muhanda niyo igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe bikaba bifasha n'abatwara ibinyabiziga guhagarara cy'akugendagahoro mu gihe hari uri gutambuka mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Iyi modoka nini tubona hano ni imwe muzikorera mu mujyi wa Kigali zitwara abagenzi rusange bibavana mu duce tumwe bibajyana mu tundi aho byorohereza abakora ingendo za buri munsi kubona uburyo bwo kugera aho bajya byihuse kandi bidahenze.

Ariya matara turi kubona ku muhanda, ni agaragaza igihe cya nyacyo cyo kwambuka, by'umwihariko ku bagenda n'amaguru, ibinyabiziga bigahagarara kugira babanze batambuke, nabyo bikabona kugenda, mu rwego rwo kwirinda impanuka n'akavuyo ko mu mihanda.

Muri uyu muhanda hari imirongo y'umweru turi kuhabona akaba ari iyerekana aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe ndetse bigafasha n'abatwara ibinyabiziga kugira aho bahagarara mu gihe hari uri gutambuka, mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye.

Muri uyu muhanda turahabonamo imirongo y'umweru ikaba ar'igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira ndetse bigafasha nabatwara ibinyabiziga kumenya igihe bahagararira mu gihe hari uri gutambuka mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Iki kiraro cyubatse mu Mujyi wa Kigali, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, akaba ari kimwe mu bigaragaza iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda.

Iki kiraro tubona hano giherereye mu mujyi wa Kigali aho kiriho umuhanda uca hejuru y'iyindikaba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda cyateye imbere.

Aka kazu gashyirwa aho imodoka zihagarara by'umwihariko izitwara abagenzi rusange, aho bicara bazitegereje cyangwa se n'abandi baba bari kurugendo bakeneye kuruhuka bashobora kuba bahicara.

Muri uyu muhanda turahabona imirongo y'umweru igaragaza aho umunyamaguru agomba kwambukira byemewe, uko tubibona hariho n'ugiye kwambuka agafasha abatwara ibinyabiziga kuba bahagarara kugira ngo umuntu aze atambuke mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Iyi mirongo y'umweru tubona hano mu muhanda, ni igaragaza aho abanyamaguru baba bagomba kwambukira ndetse bikorohereza abatwara ibinyabiziga, kumenya ko bagomba guhagarara mu gihe hari uri gutambuka, urwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye zitewe n'abaca aho babonye hose.

Aya matara tubona ku muhanda ni afasha abanyamaguru kumenya igihe gikwiye cyo kwambuka bigatuma n'abatwaye ibinyabiziga bahagarara, bakareka abantu bakabanza bagatambuka nabo bakabona kugenda, ndetse akaba ari uburyo bwo kwirinda akavuyo n'impanuka zo mu muhanda.

Iki ni ikiraro cyubatse mu mujyi wa kigali kikaba kiriho n'umuhanda uca hejuru y'indi akaba ari kimwe mu bikorwaremezo bigaragaza iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda.

Iyi mirongo tubona mu muhanda ni igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse tukaba turi kubonamo abambuka, gafasha n'abatwara ibinyabiziga guhagarara mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Iki ni ikiraro cy'ubatse mu mugi wa Kigali mu karere ka Kicukiro aho kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, akaba ari kimwe mu bikorwa remezo bigaragaza iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda, aho n'abanyamahanga bishimira kugisura.

Iki kiraro tubona hano cyubatse mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, ndetse kikaba kiriho umuhanda uca hejuru y'indi, kikaba ari kimwe mu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gutera imbere.

Iki kiraro cyubatse mu mugi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, aho kiriho umuhanda uca hejuru y'iyindi, akaba ari kimwe mu bikorwa remezo igihugu cy'u Rwanda cyagezeho, kandi bigaragaza ko gikomeje gutera imbere.